Inama yahuje abayobozi mu nzego zitandukanye z'Akarere ka Nyagatare, hakaba hari abayobozi batatu b'imena babiri baricaye undi umwe arahagaze akaba afite na mikoro aho ari kuganiriza abamukurikiye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, yambaye na karuvati y'umukara yanditseho ijambo ry'impine risobanura Ikigo k'Igihugu cy'Ubugenzacyaha mu Rwanda. Yicaye muri sale wenyine, imbere ye hakaba hateretse telefone, ikayi n'ikaramu ndetse n'agacupa k'amazi.

Abantu babiri baje mu nama, barimo umugabo n'umugore buri wese afite agacupa k'amazi ndetse uyu mugore afite ikaye n'ikaramu ari kwandikamo ikijya mbere hano mu nama, mu gihe uyu mugabo we yabyibagiwe.

Ahateraniye abantu benshi cyane ingeri zitandukanye barimo n'urubyiruko, hari umusore umwe wambaye impuzankano y'ishuri bigaragara ko yiga mu mashuri yisumbuye, afite mikoro ndetse n'ikayi akaba ari gusubiza ikibazo bamubajije.

Abantu benshi baturutse impande zose bakaba ari abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuzima ,iza politiki, iz'umutekano ndetse hakaba harimo abasirikare n'abapolisi bambaye impuzankano ari na bo bicaye imbere.

Abantu benshi cyane bambaye neza bakaba baje mu nama aho bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye mu ntebe z'ibyuma ziriho imifariso y'umutuku ndetse buri wese afite ikayi n'ikaramu.

Abagabo babiri babingiye bafite amacumu mu ntoki bakaba bafite n'ingabo, bambaye ibirenge aho hejuru mu gatuza bambaye ubusa, bakaba bambaye mu myambaro igaragaza umuco nyarwanda ndetse bari mu myiyerekano.

Ni ibikoresho bibiri bigaragaza umuco nyarwanda, bikaba bibajwe mu giti, biriho akagozi gato. Ikindi ni umuheto na wo ugaragaza umuco nyarwanda, aho wifashishwa urasa.

Abantu benshi cyane barimo abagabo n'abagore bitandiye cyane ubona bakenyeye baberewe, bari kubyina mu birori byahuje imiryango. Bakaba bari kubyina imbyino gakondo zigaragaza umuco nyarwanda.

Umuvure ni kimwe mu bikoresho bitandukanye gakondo by'umuco nyarwanda, byifashishwaga kera mu gukama ibitoki kugira ngo babone umutobe cyangwa se n'abantu basoma ku gatama, babashe gutara urwagwa banywe.

Abantu babiri bakora mu bijyanye n'amashanyarazi, bakaba barabyigiye ari inzobere muri byo. Bambaye amajire y'icyatsi, umwe muri bo afite igipapuro n'ikaramu, aho undi ari gukupura umuriro.

Ibyuma byinshi cyane bishinze ahantu hamwe, bikaba biriho insinga z'amashanyarazi. Hakurya yazo hakaba hari igipironi kinini cyambukiranya umuriro kiwukura ku rugomero kikawujyana mu bice bya kure.

Ibyuma byinshi cyane bikaba bishinze. Biriho insinga z'amashanyarazi. Aho bitanga umuriro mu bice bitandukanye by'Igihugu biciye kuri iri pironi rinini cyane.

Umugore wambaye ingofero irinda umutwe y'umuhondo, yambaye ijire y'icyatsi yanditseho amagambo y'impine mu Cyongereza asobanura Ikigo k'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda.

Umugabo wambaye bote z'umukara, yambaye ipantaro n'ishati y'amaboko magufi n'ingofero y'icyatsi, akaba ari umusuderi, aho ari kumwe na bagenzi be bari gukora inzugi z'ibyuma bifashishije umuriro w'amashanyarazi.

Ibyuma byinshi cyane, birimo: amapironi, taransifo n'ibindi byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro biwujyana mu duce dutandukanye, hari abagabo babiri bari kubikanika kuko byari bimaze iminsi bidakora.

Ni umugabo wambaye ijire iri mu mabara y'icyatsi, akaba yambaye ipantaro irimo uturango tw'umweru, uyu mugabo ni umuzungu, akaba n'inzobere mu bijyanye n'amashanyarazi aho yaje kuyakanika.

Abagabo benshi cyane bambaye ingofero zirinda umutwe, bambaye udupfukamunwa ndetse n'amajire yiganjemo icyatsi. Bakaba ari inzobere mu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, aho bari kugenda bakora imiyoboro migari izajya ikwirakwiza umuriro mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Umugabo akaba akora mu bijyanye n'amashanyarazi, yambaye ingofero y'umweru irinda umutwe, akaba yambaye n'igitaburiya kinini cyane cy'ubururu cyanditseho umubare magana ane mirongo ine n'ikenda.

Umuhanda wa kaburimbo. Uri kugendamo imodoka y'umweru mu gihe k'ijoro, ukaba uri kumurikishirizwa amatara meza cyane yo ku muhanda, ubona ko ari kumurika neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe na guverinoma ikaba ari ikusanyirizo ry'amata, yubakishije amabati y'umweru, iteye irangi ry'umweru, ikaba ifite ibaraza ryiza cyane ririmo ibyansi ndetse n'ibindi bikoresho bitwarwamo amata.

Ni umupaka uhuza ibihugu bibiri birimo u Rwanda ndetse na Uganda, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bari kwambukiranya ibihugu bibiri, aho uruhande rumwe haparitse imodoka.

Igicumbi cy'umudugudu umwe mu karere ka Nyagatare cyanditseho indangagaciro na kirazira by'uyu mudugudu, kikaba kiriho Ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'Idarapo ry'u Rwanda, aho giteye amarangi azengurutse y'ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Mu marembo inyubako ya leta ifite amarembo meza cyane yanditseho ngo urugo mbonezamikurire rwa Ryabega. Iyi nyubako ikaba izaho abana ndetse n'ababyeyi batwite kugira ngo bafate indyo yuzuye.

Abaturage baturutse impande zose. Higanjemo abagore n'abakobwa bakaba baje ku nyubako y'ivuriro. Inyubako isakaje amabati y'ubururu, iteye n'amarangi y'ubururu, aho iriho icyapa kigaragaza izina ryayo.

Ni abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye ingofero n'ishati y'amaboko maremare y'umukara, mu gihe umugore akenyeye igitenge afite imarete ndetse yaniteze igitambaro mu mutwe, bakaba bahagaze impande y'igisima cyanditseho ngo Kagitumba.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo wubatswe na Leta. Ukaba ari umuhanda mugari cyane uzenguruka umusozi ukongera ukagaruka. Kuri uyu musozi hakaba hari n'ibindi bimera byinshi cyane n'amashyamba.

Abantu bane bicaye imbere y'imbaga, ni abagabo batatu n'umugore umwe, bakaba bambaye neza, buri wese afite n'ikaramu imbere ye ndetse agacupa k'amazi ari kunywa, akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubutabera.

Abantu benshi cyane barimo abirabura ndetse n'abazungu, benshi muri bo ni abagabo ndetse n'abagore bambaye neza, bakaba batashye ku mugaragaro, inyubako izajya ikorerwamo serivisi z'ubutabera.

Abagabo n'abagore bari gutambuka mu muhanda, haruguru y'abo hahinze urutoki ndetse n'ikawa, mu gihe hepfo hari ikibuga kigishirizwamo gutwara ibinyabiziga kirimo n'imodoka eshatu.

Ahabereye ukwibuka, hakaba hari abantu batatu, umugore umwe yambaye imikenyero y'umukara akaba ari gutambuka. Hari undi mugore wambaye ishati y'umutuku uzanye indabyo ndetse hakaba hari n'umusore umutwikiriye mu mutaka bisa naho hari kuva izuba ryinshi.

Ni umunsi mwiza cyane w'umuganda aho abayobozi n'abaturage bahuriye hamwe mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, bakaba baje gutera ibiti kugira ngo bibashe gukura kandi bazabyiteho neza.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubutabera. Barimo abasirikari bambaye impuzankano ndetse n'abandi bacungagereza, bahagaze mu nzu imwe nziza cyane irimo amakaro arabagirana, aho baje kumva impanuro z'umuyobozi w'Igihugu.

Ahantu heza cyane ni mu kibuga hakaba hatondetse intebe nyinshi cyane zicayemo abantu b'abayobozi mu nzego zitandukanye hakaba hari n'amezi abiri, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ariho igipapuro cyanditseho amagambo atandukanye mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Inyubako nini cyane ikaba itangirwamo serivisi z'ubutabera, iteye amarangi y'umweru, ikaba isakaje amabati y'ubururu, ni igorofa igereretse kabiri, haruguru hakaba hari abantu bari gutambuka.

Ni umunsi mwiza cyane aho ubutabera bwari buri guhabwa umuturage warenganijwe. Abantu benshi cyane bahuriye mu kigo cy'amashuri bahagarara mu kibuga cyabo nuko umuyobozi abaza imbere arabaganiriza ari na we wakemuye icyo kibazo.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubutabera, barimo abirabura n'abazungu bakaba bahagaze ku ibaraza ry'inzu yubakishije amatafari ya ruriba, aho bari mu myerekano buri wese agaragaza impano ye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe. Barimo abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye hakaba hari ibishoragati byicayemo abo mu nzego zo hejuru ndetse hari umugabo uri hagati yabo, uri kubaganiriza afite na mikoro avugiramo.

Icyapa kinini cyane kiri ku ruhande rw'umuhanda. Kikaba kiranga kigaragariza abagenzi ko hafi aho ari muri Karangazi, iruhande rwacyo hari ipoto ririho urutsinga rw'amashanyarazi.

Ku muhanda wa kaburimbo ahari icyapa kinini cyane, kigaragaza ko imbere muri metero magana atanu hari ibiro bya Polisi ya Nyagatare, akaba ari icyapa giteye iruhande rw'umuhanda, inyuma yacyo hakaba hari n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo umanuka cyane. Urimo akarongo k'umuhondo hagati, ku ruhande hakaba hari ibisima biri mu mabara y'umukara n'umweru ndetse hakaba n'inzira y'abanyamaguru. Uyu muhanda uri kumanukamo imodoka nini cyane itwara imizigo, iri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda munini wa kaburimbo, uriho amatara ndetse n'amapoto ari ho insinga z'amashanyarazi, haruguru y'umuhanda hakaba hari icyapa, kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, bikoze mpande eshatu, hasi hari umuntu uri gutambuka.

Ni umu motari uri kuri moto akaba yayi paritse ariko akiyicayeho, aho nta mugenzi afite, aparitse haruguru y'ikibuga bigiramo gutwara imodoka ndetse hakaba hari na borodire isakaje ibisima binini cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo urasa n'umukara. Urimo imirongo y'umweru hagati yambukiramo abanyamaguru. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru iriho ibisima, mu ruhande rw'epfo hakaba hari n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Imbuga nini cyane irimo amapave akozwe muri sima, iparitsemo imodoka iri mu ibara ry'ubururu y'ivatiri. Hirya hari moto, imbere y'ibi binyabiziga hakaba hari inzu icururizwamo.

Abantu benshi cyane akaba ari abaturage ndetse n'abayobozi babo, bahuriye hamwe nyuma yuko bari bavuye mu muganda w'ukwezi, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bakaba bari kuganira ku buryo bwiza barushaho guteza imbere umudugudu wabo.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi, akaba ahagaze imbere y'imbaga yazamuye ukuboko hejuru, iruhande rwe hari abandi bagabo bicaranye ndetse inyuma yabo hakaba ari ubusitani bwiza cyane n'inzu.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe kugira ngo bishakire ibisubizo dore ko bari guharura umuhanda, ni umunsi w'umuganda aho batekereje uburyo bwo kwishakamo ibisubizo mu mwanya wo gutegereza Leta.

Abantu benshi cyane baturutse impande zose, bakaba baje gukora umuganda, aho bari kubakira umuturage utishoboye, inzu y'inkarakara ndetse bakaba bagiye no kuyihoma kugira ngo ayigemo imeze neza.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, benshi muri bo ni abagore n'abakobwaba bateraniye ahantu hamwe bahagaze mu kibuga, bamwe muri bo bafite umutaka, imbere yabo hakaba hari umugabo w'umusirikare ufite mikoro akaba ari we uri kubaganiriza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, nyuma y'uko bari bamaze gukora umuganda w'ukwezi. Bamwe bazanye amagare bakaba bayaparitse. Abandi baje n'amaguru, bakaba bari gukora inama yiga ku buryo butandukanye bwo kwiteza imbere.

Ni umunsi w'umuganda ahateraniye abantu benshi cyane bavuye mu muganda. Bamwe bicaye hasi umucaca akaba ari abaturage mu gihe abayobozi babashakiye intebe. Muri bantu kandi harimo abashinzwe umutekano b'abasirikare n'abaporisi.

Umunsi w'umuganda w'ukwezi akaba ari ku isabato, abantu benshi cyane bahuriye hamwe bakora umuganda mu buryo bwo kwiteza imbere ndetse no kwishakira ibikorwaremezo, nyuma yawo bakaba bahuriye hamwe bamwe baricaye, abandi barahagaze bari kumva impanuro z'abayobozi.

Ku munsi w'umuganda w'ukwezi ni ku wa Gatandatu aho abantu baturutse impande zose baje gukora umuganda, hakaba harimo n'abashinzwe umutekano barimo abapolisi n'abasirikare bambaye impuzankano.

Umugabo w'umwirabura akaba akora mu bijyanye n'umutekano. Yambaye ishati ya karokaro, aho afite ibuye ku rutugu, ni umunsi w'umuganda, akaba ajyanye mu rugo rw'umuturage aho biyemeje kumwubakira inzu.

Abagabo batatu bakora imyitozo ngorora mubiri bakina umupira w'amaguru, babiri muri bo bambaye ikabutura ndetse n'umupira by'ubururu, mu gihe undi yambaye iby'umuhondo, bakaba bari gukina umupira w'amaguru.

Ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, hakaba hakinirwa umupira w'amaguru, ni sitade nziza cyane irimo ubwatsi butoshye, hakaba hari umugabo w'umusifuzi umanitse icyapa hejuru kiriho imibare umunani na kane.

Abantu benshi cyane babagabo bakaba bakina umupira w'amaguru mu uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ubwo gushaka amafaranga, bakaba bari muri sitade, aho biteguye gutangira umukino.

Umugabo wambaye ikabutura y'umuhondo isa n'umupira w'umuhondo, amasogisi y'umuhondo n'inkweto z'umuhondo; akaba ari muri siporo aho ari muri sitade akinira umupira w'amaguru.

Abana bato b'abahungu bari gukora imyitozo ngororamubiri bakina umupira w'amaguru. Abenshi muri bo bambaye impuzankano ariko bakaba barimo gukinira mu kibuga kitarimo ubwatsi, dore ko kirimo ivumbi ryinshi cyane ryabatera ibicurane.

Abagabo cumi n'umwe bambaye imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri aho bakina umupira w'amaguru, bose bambaye imipira y'umweru amakabutura y'umuhondo ndetse n'inkweto n'amasogisi, umwe muri bo akaba yambaye umupira w'umukara asa n'aho ariwe ufata mu izamu.

Umugabo ukomeye cyane akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru, arabyibushye akaba ari umwirabura, yambaye imyenda myiza cyane akoresha mu myitozo ngororamubiri, ni ikabutura y'umuhondo ndetse n'umupira w'umuhondo, akaba ari gukina umupira w'amaguru mu kibuga wenyine.

Abagabo bakora imyitozo ngororamubiri bakina umupira w'amaguru. Bambaye imyenda bakinana irimo ubururu ndetse n'icyatsi, bakaba bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga kirimo ubwato bwinshi cyane hamwe ahandi nta bwatsi buhari.

Ni muri sitade ahantu hari abantu batanu, bane muri bo ni abakinnyi, undi umwe akaba ari umusifuzi, hakaba hari umugabo umwe ugiye gutera umupira witeguye wambaye nimero umunani.

Ahantu heza cyane akaba ari ahicara abafana baje kureba umupira w'amaguru, harimo abantu benshi cyane bicaye mu myanya y'inyuma ahasakariye, aho intebe z'imbere zicayemo umuntu umwe wenyine bisa naho ari we wishyuye menshi.

Abagabo benshi cyane bakora imyitozo ngororamubiri bakina umupira w'amaguru. Bari mu kibuga bakinira, bakaba bari gukora imyitozo mbere y'uko batangira umukino bafitanye n'ikipe ya mukeba wabo bahanganye.

Ni abantu bagera kuri batanu barimo umugabo umwe n'abagore bane, bakaba bahagaze imbere y'imbaga aho bari ahantu hicarwa n'abafana mu gihe bari kureba umupira w'amaguru. Batatu muri bo bakaba bafashe igipapuro, aho bakikije umukobwa watsinze amarushanwa ufite n'igikombe.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gushaka amafaranga. Bari mu kibuga aho bambaye imyenda bakorana imyitozo ngororamubiri, bakaba bari kwitoza kugira ngo bitegure umukino.

Ikibuga cyiza cyane giteye sima, kikaba cyahuriyemo abantu benshi cyane bari gukora imyitozo ngororamubiri biganjemo urubyiruko. Imbere y'abo hakaba hari umugabo umwe uri kubatoza uburyo butandukanye bwo gukora siporo.

Ni mu gihe cy'urukerera muri kaburimbo ahari imodoka ya polisi y'umweru icanye amatara. Iruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, hakaba harimo umukobwa wambaye itaburiya y'umweru uri kureba iyi modoka n'abandi benshi cyane inyuma.

Umuhanda w'igitaka uri mu cyaro, ukaba ari umuhanda mwiza cyane urimo utubuye duto bigaragara ko nta kinyabiziga cyanyereramo, iruhande rw'umuhanda hepfo na ruguru hakaba hari ubwatsi buto butoshye.

Umuhanda mwiza cyane wo mu cyaro wubakishije amabuye, ukaba ari uzamukamo moto ihetse umugenzi. Iruhande rw'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi ziteye amarangi y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umuhanda mwiza cyane w'igitaka wo mu cyaro, ukaba urimo amabuye utarangiritse cyane kuko nta binogo birimo, iruhande rwawo hakaba hari ubwatsi buto butoshye cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo uri mu cyaro, urimo uturongo tw'umuhondo hagati ducagaguye ndetse n'imirongo y'umweru, ku ruhande ukaba uri kugendamo imodoka nini ya Fuso.

Umuhanda mwiza cyane ukaba uri iruhande rw'ikibuga kinini k'igitaka bari gusiza kugira ngo bawukoremo kaburimbo. Hari imodoka y'umweru ihaparitse, ndetse ikaba yifashishwa n'abantu bari kwiga gutwara imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo umanuka cyane, urimo uturongo tw'umweru ducagaguye, ukaba uri gutemberamo imodoka, yifashishwa n'abashaka kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga, bakiri kwiga gutwara imodoka.